Urujya n'uruza rw'abaturage, usanga twihutira kujya kwa muganga, kuko ariho hantu dushobora gusanga ibikoresho byadufasha, kugira ngo tubashe kwitabwaho tuvurwe neza, nk'inshinge, imiti, ga, imiti myiza ihagije.

U Rwanda ni igihugu cyiza buri wese yakwifuza gusura. Usanga ibihugu byinshi by'abaturanyi biza kudusura kugira ngo bibashe kutwigiraho ibintu bitandukanye. Nko kuba twagira inyamaswa nziza, imisozi myiza, amazi ndetse n'ubundi bumenyi butandukanye.

Igihe twateranye turi imbaga nyamwinshi tubasha gukenera amazi ndetse n'ahari inyamaswa nazo zibasha gukenera amazi kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza, ayo mazi wayasanga mu mibande ndetse hamwe na hamwe mu misozi naho ushobora kuyabonayo.

Amazi ni ingenzi cyane mu buzima tubayeho bwa buri munsi. Usanga urujya n'uruza rw'abantu ruturuka ahantu hatandukanye, ruje gushaka amazi nk'ayo kunywa, gufurisha, guteka, gukoropa, guha amatungo.

Urujya n'uruza rw'abaturage, usanga rwihutira kujya gushaka amazi kugira ngo abashe kubafasha mu mirimo ya buri munsi, bitwaje amajerekani, indobo, amabase, kugira ngo babashe kubona amazi meza yo kunywa, yo guteka, gufura ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko dushyira amazi ahantu hagiye hatandukanye kuko tuba turi bwahure n'umwanda ahantu hagiye na ho hatandukanye. Igihe tuvuye nko ku matuwarete, ku bigo by'abanyeshuri, kwa muganga, ku nsengero n'igihe tuvuye nko mu imirimo itandukanye, ni byiza ko tugera mu rugo tukabasha gukorera isuku ibiganza byacu.

Amazi ni ingenzi mu buzima tubayeho bwa buri munsi turayanywa, turayatekesha turayafurisha, tuyakoresha isuku aho tuba, tuyaha amatungo, turayakenera cyane mu byo dukora bya buri munsi.

Umubare munini w'abantu usanga dukora urugendo tujya gushaka ahantu dukura amazi kugira ngo abashe kudufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi. Tuyogesha ibyombo, dufura, dukaraba, duteka, dukora amasuka aho tuba.

Urujya n'uruza rw'abaturage usanga twihutira kujya kwa muganga kugira ngo tubashe kumenya uko ubuzima bwacu buhagaze nk'imiterere y'umutima wacu, amaraso uko agenda, ubuzima bwacu uko buhagaze ni byiza ko tubishyira mu maboko y'abaganga kugira ngo babashe kutubwira ubuzima bwacu.

Umubare munini w'abarwayi usanga iyo bageze mu rugo bakurikiza impanuro muganga yamuhaye nko kunywera imiti ku gihe, kuyinywesha amazi meza, kuyinywera ahantu hasa neza kugira ngo tubashe gukira.

Umubare munini w'abantu bageze mu zabukuru usanga bitwaje udukoni kugira ngo tubashe kubongerera imbaraga batugenderaho, uba usanga basa neza cyane bitewe n'uko bagira imisatsi y'umweru abantu bakunda ndetse n'imyambarire ya bo uba ubona inejeje kuko uba ubona ari iy'umuco.

Abantu bageze mu zabukuru, usanga bakunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye, bakihutira kujya kwa muganga kugira ngo babashe kubaha imiti, ibakiza ubwo burwayi. Iyo bageze mu rugo, usanga bubahiriza kunywa ya miti muganga yabahaye, nk'ibinini babinywesha amazi meza.

Ni byiza ko igihe tubonye impinduka ku mubiri wacu, tubasha kwihutira kujya nko kwa muganga kugira ngo babashe kutuvura uburwayi twagize. Igihe wisanze ufite nk'ibiheri ku mubiri nk'imvune nko kuba waba uribwa, ugomba kujya kwa muganga

Usanga umubare munini w'abaturage, wicaye nk'ahantu runaka utegereje ko uhabwa ubufasha butandukanye. Nko kwa muganga abaje kwivuza amaso, amenyo, imvune, umutwe, abakeneye imiti itandukanye, usanga bategereje kugira ngo bahabwe ubwo bufasha.

Isuku ni ngombwa cyane ko tuyikorera ahantu turi bwahuriye turi benshi, nko kwa muganga, ku mashuri, ku masoko, ku mavomero, no ku muhanda ndetse na ho ni ingenzi.

Siporo ni nziza ku kiremwa muntu uko zimurinda uburwayi bwa hato na hato, yaba ari ubwo kuribwa mu ngingo, imvune, guhumeka nabi, kuribwa nk'umutwe, ni byiza ko igihe wakoze siporo wibuka gufata amazi kugira ngo ugarure ayo watakaje.

Umubare munini w'abavuzi ba gakondo usanga bafite ibikoresho bagiye bitandukanye. Utubindi, uducuma, inigi, amasaro, udukoko, imiti ya kinyarwanda y'ibyatsi, amahembe ndetse n'ibindi usanga bari kwifashisha kugira ngo bavure abarwayi.

Uruyuki ni agasimba keza gatanga umusaruro, nk'ubuki, tubukoresha twivura inkorora, ibicurane, mu buhumekero, ni byiza ko tunabukoresha mu ifunguro rya mu gitondo kugira ngo tubashe kurirya riryoshye.

Umuravumba ni igiti cyiza kigira amababi y'icyatsi, gihumura neza, ni umuti uvura ibicurane, inkorora, umutwe, kiba gisa neza no kugitera mu rugo ubona ari igiti kigaragara neza cyane.